Icyumba cy'inama, abantu, ameza intebe, isakazamajwi, igikapu, imfatamashusho, amatara, amadirishya.

Inzu mberabyombi, abantu, ameza, intebe, amatara, igikombe k'ikirahure, amacupa arimo amazi, agaseke gato, ibikapu byo mu ntoki, amakaramu n'amakayi, ibitambaro by'ameza.

Ameza azengurutse, abantu, insakazamashusho, intebe, icyumba cy'inama, insakazamajwi mu muryango, amacupa y'amazi.

Ameza azengurutse, abantu, amacupa y'amazi, impapuro, amakayi, intebe mu muryango, amarido, amaterefone, mudasobwa.

Icyapa kiranga ibinyabiziga, uruzitiro, inyubako z'ivuriro, umuhanda wa kaburimbo, ucunga umutekano, ibyatsi, idarapo ry'igihugu.

Imbangugukiragutabara, abantu, ivuriro, itara, moto, umureko, amapave, idirishya.

Umuforomokazi, abarwayi, abarwaza, intebe, umuryango, urugi, urupapuro, amakaro, igisenge cy'inzu.

Imodoka, abantu, amazu y'ubucuruzi, umukararani, ingorofani ikozwe mu biti, ibyapa byamamaza, umuhanda wa kaburimbo ushaje, amatara yo ku mihanda, kandagira ukarabe.

Inyubako y'amagorofa, umuhanda wa kaburimbo, ikimenyetso hagati mu muhanda cyo kwambuka, ibiti, ibyatsi, itara ryo ku muhanda, amapave, moto iriho umuyobozi w'ikinyabiziga n'umugenzi.

Ikirere cyijimye, ikibuga cy'umupira w'amaguru, abakinnyi b'umupira w'amaguru, ibiti, amazamu, ibyatsi, amapine, ibigega.

Ibyapa byo ku muhanda, umuhanda wa kaburimbo, abantu, umubyeyi uhetse umwana, ishyamba, amazu, amatara yo ku muhanda, umuferege, imodoka itwara abagenzi.

Ibigori, ibiti, insina, senyenge, uruzitiro, amazu, iminara, ikigega.

Icyapa cyamamaza imodoka, indabyo, ibiti, inyubako, amapave, umuhanda wa kaburimbo, irembo, uruzitiro.

Ibinyabiziga, kaburimbo, inzu z'ubucuruzi, amapoto, insinga z'umuriro w'amashanyarazi, inyubako y'amagorofa, icyapa cyo kwambuka kiri hagati mu muhanda, amatara yo ku mihanda.